Aha bari kutwereka inzu ishushanyije, iyo nzu hejuru yayo hariho umutaka, uwo mutaka ukaba uyitwikiriye yose ndetse bishushanyije ku rupapuro.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Aha baratwereka igishushanyo k'imodoka icyo gishushanyo k'modoka biragaragara ko bari kwamamaza.

Iyi shusho irerekana ko ari abantu b'inshuti bari ku kintu cy'isakazamashusho, abo bantu harimo abagore, abagabo ndetse bigaragara yuko ari abantu b'abazungu, abo bantu baragaragara yuko bafite ubumwe.

Aha turi kuhareba urupapuro, urwo rupapuro bigaragaza ko bari kwamamaza, hariho ibigo bya leta bari kwamamaza, urwo rupapuro hari amabara y'umutuku arugize, ndetse n'ubururu.

Aha ngaha hari abantu babiri. Abo bantu babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse harimo uwambaye ibirahuri by'amaso, hari n'undi wambaye akagofero k'umweru mu mutwe.

Aha turi kureba inzu y'umuturirwa, iyo nzu munsi haparitse imodoka. Ndetse baratwereka igishushanyo cy'umukobwa uri guseka wakenyeye Kinyarwanda.

Aha turi kureba abantu babiri. Abo bantu babiri bari gukorana mu ntoki, ndetse bigaragara ko bishimye, imbere yabo hari ameza, hari n'umutako ukozwe mu gasimba.

Iratwereka umurwayi, umurwayi uryamye mu mutwe we harimo agatabaro k'umweru hari undi mugore wambaye impeta uri kumwe n'umwana bari gusekera umurwayi bivuze yuko.

Ahangaha baratwereka uburyo ushobora gukoresha serivise za banki ukoresheje telefone. Ahambere baratwereka ibendera ry'u Rwanda ndetse ahandi bakatwereka ikindi gishushanyo cy'uruziga kizwe n'ibara ry'ubururu.

Aha bari kutwereka urupapuro, urwo rupapuro ruriho ibintu byinshi ushobora gukenera aho babitsa amafaranga n'uburyo ushobora kuyabitsa mu buryo bukoroheye bitagusabye kujya ahandi hantu.

Aha bari kutwereka ahantu bagurira imyenda. Hari imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, birapanze, bigaragara ko bategereje abakiriya. Hari umuntu bambitse ingofero bigaragaza ko akurura abakiriya.

Aha bari kutwereka ibicuruzwa, ibi bicuruzwa harimo imyenda bigaragara yuko biri mu nzu iyo nzu ikaba ifite ibikoresho byiza bifite isuku navugamo amakaro y'umweru ndetse n'ibindi. Ifite n'amatara hejuru amatara menshi. Ifite na parafo zidasanzwe.

Ahaho baratwereka akabati, akabati karakinguye, hejuru yako kabati hariho umutako, uwo mutako uteyemo igiti

Iyi shusho iratwereka ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa kubonamo inkweto, tukabonamo imyenda imanitse. Ibyo bicuruzwa harimo inkweto z'umweru, ndetse n'iz'umukara n'iz'umuhondo iz'icyatsi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Aha turi kuhareba aho bacururiza, hariho umuntu uri kugura ibicuruzwa, hirya hari ibicuruzwa bipanze nk'amashakoshi ndetse n'amatirimusi.

Iyi shusho yo iratwereka abantu bane, abo bantu bane; babiri babiri bagiye baganira ku bintu by'ubucuruzi, bigaragara yuko uno mugabo ari gucuruza aha ibicuruzwa n'umugabo wundi wirabura.

Iyi shusho iratwereka imyenda myinshi iri ahantu hamwe iyo myenda harimo imyinshi yose n'ibitenge ibitenge bifite amabara atandukanye, harimo amabara y'umutuku, umweru, umukara ndetse n'icyatsi.

Aha turi kureba umukobwa, uwo mukobwa afite imisatsi myinshi. Yambaye inkweto irimo amabara y'umweru ndetse yambaye n'ikanzu ngufiya, ari mu iduka iduka ritoya cyangwa se ahantu bacururiza hatoya ari kurebamo ibintu yagura. Harimo inkweto ziri mu kabati, harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, ari gushima.

Ahangaha hari aho bacuruza, aha abacuruza bacuruza imyenda, imyenda imanitse bigaragara ko ihenze imanitse ku biti.

Barakwereka abantu batatu, muri abo bantu batatu harimo umugore urimo hagati, bafite ikintu cy'igipapuro gishushanyijeho imodoka ndetse bigaragara ko ari imodoka bahaye abantu babashimiye.

Aha turi kureba imodoka ziri ku murongo, izo modoka zirasa, ni imodoka z'umweru, ahantu ziri cyangwa se ahantu ziparitse haranduye, harasa nabi hari umwanda, hirya hari inzu z'imiturirwa zihari, ndetse n'ibiti bikikije izo nzu.

Aha baratwereka imodoka izo modoka ziri mu bwoko bw'imodoka ntoya zitwara abantu zifite ibara ry'umutuku amapine yazo ni ibara ry'umukara.

Aha turi kureba imodoka, iyo modoka ni umukara, iyo modoka iraparitse ndetse n'imbere harimo umuntu uri kuyitwara.

Aha ngaha turi kureba inzu yanditseho Akagera imbere yayo hari abagabo batatu n'umugore umwe, ndetse inyuma yabo hari imodoka. Abo bagabo ntabwo ari abanyarwanda ni abanyamahanga.

Aha ngaha baratwereka abagabo batatu, abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka, ndetse inyuma yabo hari amahema, ayo mahema hejuru handitseho inyuguti eshatu ni e a na b na g, ayo mahema afite ibara ry'umweru.

Aha bari kutwereka ikizu kinini. Icyo kizu harimo imodoka. Izo modoka zigiye ziri ku murongo bigaragara ko ziri kugurishwa, imbere y'icyo kizu hari ubusitani ndetse hari n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Iyi shusho iratwereka abantu, abo bantu harimo igitsina gabo ndetse hari undi muntu utari kugaragara neza wicaye hirya, biragaragara ko bari gukora serivise zitandukanye, bari guhanahana amakuru.

Iyi shusho iratwereka abagabo babiri, abo bagabo babiri hari umugabo ubanza w'umuhungu, wambaye ishati irimo amabara y'umukara numweru, asa nkaho ategereje umuntu urimo imbere.

Kutwereka amafaranga, aya mafaranga ni amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu bari kutwereka ko hashushanyijeho igikoko bita ingagi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bazamuye ibiganza byabo hejuru bafite amadarapo yanditseho FPR agizwe n'umutuku umweru n'ubururu.

Aha turi kuhareba abantu bane, abo bantu bane imbere yacu hari umuntu wicaye umugore ndetse n'umwana bari kunywa amata, hari umugabo uri kuyabaha bigaragara ko ari umucuruzi.

Aha bari kutwereka isahani iyo sahani iteretse hejuru y'amezi ndetse bari kutwereka n'imigati iri kuri iyo sahani.

Aha turi kuhareba ifoto y'umwana mutoya uwo mwana muto afashe telefoni mu ntoki ze bigaragara ko imbere ye hari umuntu ari kureba, uwo mwana ari mu nzu hirya ye hari icyansi bajyanamo amata iyo bayajyanye ku ikusanyirizo.

Aha turi kuhareba ameza, hejuru yayo meza hariho igikoresho cya plastique, hejuru y'icyo gikoresho cya plastique, hariho ibirayi bitetse, harimo n'urusenda byitwa ibiraha.

Hano turi kuhabona indobo ndetse tukanahareba n'ububati, tukahareba n'ibicupa birimo amazi, amazi yo kuywa, ndetse tukareba n'ibicuruzwa biri muri iyo ndobo.

Aha, bari kutwereka urupapuro. Urwo rupapuro barashaka kutwereka uburyo ushobora kuvunjisha amafaranga cyangwa se, uburyo ushobora kwishyura amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga.

Aha bari kutwereka umuntu ufashe telefoni mu ntoki. Bigaragara ko ari gusobanurira abantu ibyiza byo kwishyurira kuri telefoni. Bitakusabye kudufata urundi rugendo rwa kure.

Aha turahareba amafaranga, ayo mafaranga ni amafaranga y'u Rwanda, ayo mafaranga ari mu kantu kameze nk'agakarito, ayo mafaranga ni ibihumbi bitanu menshi cyane.

Aha bari kutwereka umuntu ufite terefone. Uwo muntu biragaragara ko ari gushaka kwigisha abantu, uburyo ushobora kwishyura ukoresheje terefone bitaguhenze cyangwa se utabwiye umuntu ngo agufashe ukabyikorera.

Aha turi kuhareba umugabo, umugabo uri guseka, hari n'undi ufite telefone usa nkaho ari gukuraho ibintu biba bibaruye ku gikoresho runaka, uwo mugabo yambaye umwenda w'akazi.

Aha ngaha bari kutwereka uburyo ushobora kwishyura ukoreshe ikoranabuhanga, ahakwereka uburyo ushobora kwishyura, ndetse hari ikiganza gifashe telefone ndetse n'ikindi gifashe telefoni, bari kwereka uburyo bwiza ushabora gukoresha bitaguhenze.

Aha bari kutwereka urupapuro urwo rupapuro rwandikishijwe n'inyuguti z'umukara bari kutwereka ko ibintu bakoze bitakunze neza.

Aha baratwereka urupapuro, urwo rupapuro n'inyemezabwishyu, iyo nyemezabwishyu ni iyo umuntu akoresha yerekana ko yaguze igicuruzwa.

Aha, hari urupapuro, urwo rupapuro rwerekana amezi uko umuntu yagiye yishyura. Ni urupapuro rwa serivisi z'imari, ukura aho ubitsa amafaranga yawe, haba hagiye hariho amazina yawe, itariki, n'imyirondoro yawe.

Aha turi kubona urupapuro urwo rupapuro rwanditseho ndetse ku mpera yarwo hari ikirango kimeze nk'ikimera kiri kuzamuka bigaragara ko urupapuro ari urupapuro rwerekana imari yinjiye ndetse n'imari yasohowe.

Iyi shusho irerekanamo akarere ka kayonza ndetse aka karere ka Kayonza kagaragaza iyi karita ikereka yuko ari imisoro bakusanyije umwaka, hariho n'amazina y'umukoresha.

Aha turi kuhabona impapuro izo mpapuro zirerekana ko hari uruhushya wahawe, impamyabumenyi y'uko ibikorwa byawe byemerewe gukora, gukorera mu gihugu.

Aha bari kutwereka amafaranga menshi. Ayo mafaranga ari ahantu hameze nk'ameza ni umuntu uri kuyaba, ayo mafaranga ntabwo ari Abanyarwanda ni amafaranga y'Abanyamahanga ndetse hafi hari igikoresho cy'ikoranabuhanga gisa naho kiri kuya bari ari gukoresha bayabara ayo mafaranga.

Aha hari umuntu uri kubara amafaranga, ayo mafaranga harimo amafaranga y'amanyarwanda, andi akaba amafaranga y'amanyamahanga, ari kubara amafaranga amwe ayashyira ku ruhande andi ayashyira hino.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Iyi shusho iratwereka umugabo uri kubara amafaranga, uwo mugabo uri kubana amafaranga afite inoti ebyiri z'amafaranga, iyo note ishushanyijeho umuntu. Ntabwo ayo mafaranga ari amanyarwanda ni amanyamahanga.

Aha naho turahabona amafaranga, ayo mafaranga ni ay'igihugu cya Tanzania hashushanyijeho umuntu ufite umusatsi w'umweru ayo mafaranga ni igihumbi.

Aha bari kutwereka amafaranga, amafaranga uko agenda azamuka mu bwinshi, bahereye ku mafaranga magana abiri bakurikizaho ijana, bakurikizaho mirongo itanu, makumyabiri bakurikizaho icumi bakukizaho amafaranga atanu uko agenda arutana.

Aha turareba amafaranga, ayo mafaranga ni amayero turi kureba umufungo umwe wanditseho icumi, undi wanditseho icumi n'undi wanditseho icumi. Bigaragara yuko atari amafaranga y'amanyarwanda ari ayo mu kindi gihugu.

Aha ngaha turi kuhareba ikarita. Ikarita igaragaza uburyo bavunjisha amafaranga y'amanyamahanga. Ibihugu bashyizeho ni nka Amerika, Uganda, ndetse na Tanzaniya.

Aha turi kuhabona amafaranga, aya mafaranga ntabwo ari amanyarwanda, ayo mafaranga yanditseho umubare ijana ndetse ashushanyijeho umuntu. Hari ashushanyijeho umuntu ufite imisatsi minshi, hari n'andi ashushanyijeho umuntu yambaye ibirahure by'amaso.

Aha bari kutwereka inzu, iyo nzu irafunguwe ndetse mo imbere harimo umuntu uhicaye, hari ho icyapa cyanditse ikaze busheri, bigaragara ko ahantu bahakorera serivisi zo kuvunjiriza amafaranga.

Iki cyapa kirerekana batatu bigaragara ko baje ku kuvundisha amafaranga, baje kuvundisha amafaranga bategereje umuntu ubavunjira. Harimo abagabo babiri n'umugore umwe.

Iyi shusho yo iratwereka iki cyuma gisakaza amashusho, icyo cyuma bigaragara y'uko hari abantu bashyize kugira ngo abandi bahandi hantu babirebe, ndetse baratwereka ko ari ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga rikorerwa aho hantu.

Ahangaha baratwereka inzu iyo nzu iriho ibishushanyo bayishyizeho bigaragara ko ahangaha ariho bavungishasha amafaranga karame.

Iyi shusho iratwereka abantu bane, abo bantu bane harimo abagore babiri. Umugore umwe aricaye umuhungu ari inyuma ye, undi mugabo ari imbere ategereje ko bamuha serivisi, ategereje ko bamwakira.

Aha turi kureba inyubako iyo nyubako mu imbere harimo abantu, harimo abakozi ba sosiyete ishinzwe kuvunjisha amafaranga, harimo umuntu umeze nk'umukobwa afite imisatsi myinshi.

Aha ngaha turareba inzu, iyo nzu iriho ibipapuro biyometseho, ifite umuryango ndetse hejuru yawo ahantu ibirango by'ibara ry'umukara.

Aha turi kureba abantu , abo bantu biragaragara ko bari kunywa bari kuganira, imbere yabo hari intebe bicaramo ndetse hari n'inzu cyangwa se inyubako iriho ikirango kigaragaza ko aho hantu hakorerwa ivunja ry'amafaranga.

Aha bari kutwereka ko aha hantu havunjishirizwa amafaranga. Iyi nzu irageretse ndetse igiye iriho ibipapuro birimo amabara y'umutuku byerekana ko aho hantu wabahamagara ubabuze. Hashushanyijeho n'amafaranga.

Iyi shusho irerekana abantu batari abanyarwanda, abo bantu ni abazungu, bigaragara ko bari gutanga serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ikoranabuhanga.

Aha bari kutwereka inzu, iyo nyubako hari umuntu wegamyeho, uwo muntu ari guseka, yambaye ibirahuri by'amaso bigaragara ko nawe umukozi ushinzwe kuvunjisha amafaranga.

iyi shusho irerekana ahantu bavunjishiriza amafaranga, hari icyapa gishobora kwerekana umuntu ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bwo kucunjisha amafaranga, icyo cyapa kimanitse ku nyubako y'iyo nzu.

Aha turi kureba salo, muri iyo salo harimo ibikoresho byo mu nzu. Urugero; utubati, ndetse harimo n'intebe, intebe zigezweho z'imifariso.

Aha turareba akabati, ako kabati harimo ibikoresho nkenerwa byo mu nzu, ndetse hari umwanya urimo amakaye.

Ahangaha bari kutwereka intebe, iyo ntebe ikozwe mu cyuma, iyo ntebe aho ushatse uyijyana aho ngaho hakurya, kari kutwereka izindi ntebe zo zisanzwe zikozwe mu ibara ry'umweru, baratwereka n'ubuki.

Aha turi kuhareba intebe, ndetse turahareba n'ameza, ayo meza nta muntu uyicayeho bigaragara yuko ahangaha ari saro, aho bafatira amafunguro.

Ahangaha turabonamo saro; iyo saro ifite ibikoresho byinshi byo mu nzu; utubati, ameza ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa byo mu nzu by'ibanze.

Aha turi kuhareba intebe. Izo ntebe ni intebe ebyiri zingana n'izindi zitangana, hari amezi atatu ndetse biragaragara ko hari ibyatsi bya Kinyarwanda bitoshye.

Aha ngaha bari kutwereka ibikoresho byo mu nzu. Ibikoresho byo mu nzu navugamo nk'intebe. Ndetse hanze ku muryango hari abantu bahagaze, hari n'abandi bicaye. Bigaragara ko aho ngaho bahakorera ibikoresho byo mu nzu.

Aha ngaha turahareba ameza. Ayo meza hari ikintu cyiyateretseho, ndetse bakatwereka n'intebe ziriho ubusa, nta muntu uzicayeho, bakatwerekara aho munsi y'izo ntebe hari ahantu hari umwanda.

Aha turi kuhareba ibikoresho, ibyo bikoresho ni ibyo mu nzu ,ni imitako inyuma yabyo hari ibara ry'umweru bikozwe mu mbaho.

Iyi shusho iratwereka ibikoresho byo mu nzu, ibyo bikoresho byo mu nzu twavugamo intebe tukavugamo ameza ndetse n'amabara akoze ayo meza ni amabara y'umweru.

Ahangaha bari kutwereka ibikoresho byo muri salon ibyokwesho harimo intebe harimo n'utubati.

Aha turi kuhareba ibikoresho bikozwe mu mbaho, ibyo bikoresho hirya yaho hari ibindi bintu bimeze nk'amata biri mu tubuni biri mu tubati.

Ahangaha bari kutwereka ibikoresho bigize uburiri ubwo buriri bukoze neza hafi aho hari ameza, hari intebe ndetse hari n'itara.

Aha turahareba inzu, izo nzu ni amacumbi y'abantu bararamo, biragaragara yuko bari kwamamaza ahantu hari amacumbi meza, hari n'amarange y'umuhondo.

Iyi shusho irerekana umujyi uwo mujyi harimo inzu zigeretse ndetse hasi harimo imodoka ziparitse izo modoka ziparitse hari ibyapa byerekana ko hatemerewe guparikwa izo modoka ariko inyuma yaho hariho amatara.

Aha turi kuhareba inyubako, iyo nyubako irageretse, iyo nyubako ifite amarangi y'umuhondo ndetse hari amatara turi kureba ari kwaka cyane, bari kutwereka n'umuhanda uri aho ngaho.

Aha turi kureba inyubako, izo nyubako zirakeye cyane, umukandara wazo ukozwe n'ibara ry'umweru ndetse imbere hari ibintu bikozwe mu ibara ry'umukara. Hari izindi nyubako ziri hakurya, imbere yaho hateyeho ubusitani bw'ibyatsi.

Iyi shusho irerekana ahantu hasa nkaho hagiye kubera inama. Iyi shusho ya mbere y'inyuguti eshatu irerekana ko umuntu nahagera asoma biramuha ishusho y'uko imbere harimo kubera inama.

Aha ngaha bari kutwereka abantu barimo nama, muri abo bantu bari mu nama basa nkaho bakoze uruziga bari kuganira, imbere yabo buri muntu wese afite icupa ry'amazi ndetse hari na telefone ziri ku meza.

Aha turahareba inyubako, iyo nyubako irageretse, imbere y'iyo nyubako hari umuntu uhagaze ndetse n'abandi bantu bari kugva mu nyubako mo imbere bigaragara ko kwakamo serivisi zitandukanye.

Aha turi kubona inyubako, iyo nyubako hejuru hari ibiti, ibyo biti biragaragara nk'umutako ndetse iyo nyubako ishobora kuba ariyo bakoreramo ubwishingizi.

Aha turi kuhareba ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa ndetse hari n'ameza ateretseho ibyo bikoresho, ndetse n'utubati turimo ibitabo.

Aha turi kureba intebe ni intebe ebyiri izi ntebe ni intebe z'umukara bigaragara y'uko ari aho bakirira abantu.

Aha bari kutwereka iyo nzu. Inzu igiye iriho ibipapuro. Ibyo bipapuro ni ibyerekana ibintu bikorerwa muri iyo nzu. Hakorerwa serivisi z'irembo, hakorerwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izindi sosiye z'itumanaho.

Aha bari kutwereka umusore, uwo musore afite igikoresho giteretseho igikombe ndetse hakurya hari undi muntu uhari uri kurangarira muri mudasobwa, bigaragara ko uwo muntu ari umuzungu.

Aha turahareba urupapuro urwo rupapuro rufite ibara ryenda gusa umukara ndetse hari akandi kantu kameze nk'umupira kari mu ishusho y'uruziga rufite ibara ry'icyatsi hari andi magambo yandikishije ubururu n'andi yandikishije ibara ry'umukara n'andi yandikishije ibara ry'umweru.

Aha turareba abantu bahagaze, abo bantu bahagaze abenshi ni abagabo ndetse tunari kureba isakazamashusho ariko ntabwo iri kwaka.

Aha ngaha turahabona inzu, iyo nzu hari amagambo yanditseho bigaragara yuko aha hantu bahafatira inguzanyo ari ikigo cy'imari gishinzwe gutanga inguzanyo. Iyo nzu ifite imiryango, imiryango y'umukara ndetse ndikureba abantu babiri umuntu wa mbere ari mu muryango wundi, undi ari aho bakirira abantu ari mu ihema aricaye.

Aha turi kuhabona abantu abo bantu bari mu isoko, bari gucuruza ibiribwa, bambaye agapfukamunwa ndetse hirya y'aho hari imifuka igerekeranyije.

Aha turikuhabona isoko muri iryo soko harimo ibintu bitandukanye twavugamo nk'intoryi, karoti, amateke ndetse n'ibijumba hari abagore bari gucuruza ibyo bicuruzwa hirya hari abandi bantu bahari benshi bagaragara ko iri soko ari rigari.

Aha bari kutwereka abantu babiri bari kuganira, hirya y'aho hari undi mugabo usa nk'aho yabateye umugongo, abantu bari kuganira harimo uwambaye igitenge mu mutwe ndetse hibya bari kutwereka inyanya ndetse n'imboga bigaragara ko bari mu isoko.

Hano turahareba inyubako, iyo nyubako ni inyubako ishushanyijeho abantu, iyo nyubako hejuru y'aho hari amabara y'umutuku, ku ruhande hari ibiti bihari ndetse bari ku twereka n'ikirere, imbere y'iyo nyubako hari imodoka zahaparitse ndetse n'abantu benshi bari kugenda ku nkengero z'umuhanda ndetse n'ibinyabiziga.

Ishusho irerekana umusore urikureba mu modoka. Uwo musore yambaye inkweto y'umukara ndetse yambaye n'amasogisi y'umweru. Uwo musore akaboko kamwe k'agahera kari mu kanwa, hirya yaho hari iduka ry'imyenda. Iryo duka ry'imyenda hagiye harimo abantu ndetse harimo n'abatayeri.

Aha bari kutwereka isoko iryo soko rigezweho rikozwe cyangwa se amabara yiganjemo ni amabara y'umutuku, hafi ahongaho hari n'ibyapa biyobora abantu.

Iyahoze ari inoti y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yari iriho inka z'inyambo zifite amahembe ndetse n'ibindi bihingwa, bihingwa mu Rwanda, ikaba yari yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda.

Aha turahareba umudamu uwo mudamu ari gucuruza imbuto twavugamo: amaronji, nji tukavugamo imyumbati, tukavugamo insenda, n'ibindi bigiye bitandukanye biri mu mifuka bigaragara ko ari mu isoko.

Iyi shusho iratwereka ni isoko iryo soko riri ahantu hari inzu ndende igeretse, ntabwo tuzi umubare igeretse ariko biragaragara ko ino nzu igeretse. Wayikoreramo ibintu by'ubucuruzi.

Aha turi kuhareba ibicuruzwa, twavugamo imyumbati, tukavamo ibitoki bihiye, ndetse n'amapapayi ndetse n'ibindi bitoki bihiye cyane biri hirya, hari abacuruzi babihagazemo hari n'umugore wicaye usa nkaho uri kwirebaba, yambaye ibirahuri by'amaso.

Aha turi kuhareba isoko, mu isoko harimo: imineke, imbuto, inanasi, ndetse n'imyembe, bakatwereka n'ibikapu bimanitse ndetse n'indi myenda y'umweru, bakatwereka n'abaguzi ndetse n'abacuruza.

Aha turi kureba abantu bari gucuruza, bari gucuruza inyanya ndetse n'ibindi bi bicuruzwa bitandukanye, hari umuntu ufite umutaka bigaragara ko hari zuba ritwikiriye umugore uri gucuruza w'undi.

Aha bari kutwereka abantu bari mu isoko. Umuntu uri kuza mu ifoto cyane, ni umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse bigaragara ko ari gucuruza imyenda. Hakurya bari kutwereka inyubako zihari, bakatwereka n'igikoresho nsakazatumanaho.

Aha bari kutwereka isoko. Iryo soko bari kutwerekamo ibicuruzwa. Urugero ibitenge ndetse n'ibikapu. Harimo abantu bagiye batandukanye ndetse bari kutwereka n'imashini idoda imyenda.

Iyi shusho iratwereka abantu benshi bari ahantu, bigaragara ko aba bantu bari mu isoko, hirya y'aho hari inzu itageretse, ruguru y'iyo nzu itageretse hari inzu igeretse, hejuru hariho abantu bahagazeho.

Aha bari kutwereka isoko. Iryo soko rirubakiye. Imbere yaryo hari abantu bahari benshi ndetse hari n'imodoka ziparitse. Izo modoka zitwara abagenzi ndetse n'imodoka ntoya.

Aha baratwereka igipapuro cy'umuhondo, icyo gipapuro baratwereka uburyo ushobora kwishyura amafaranga ukoresheje kode, iyo code bikakorohera, kuburyo ushobora gukemura ikibazo cyawe runaka bitanyuze mu nzira zikugoye.

Ahaha turareba umuntu uhinguka uri kuri telefoni uwo muntu biragaragara ko ari guhamagarwa n'undi muntu hirya yaho hari inzu ntoya y'ikigo cy'itumanaho cya ishyirahamwe rya emutiyene.

Hano turi kureba umuntu ufite telefone mu ntoki, uwo muntu yambaye akantu kariho umusaraba ku kuboko kwe, afashe telefone n'amaboko yombi bigaragara ko ari kuyikoresha.

Iyi shusho iratwereka abantu bahagaze, hari umusore ufite igikapu yagishyize ku gatuza, bigaragara yuko bari ku nzu ihererwaho itumanaho rya emutiyene .

Aha turi kuhareba abakobwa babiri. Abakobwa babiri bari guseka. Bambaye imipira isa y'umuhondo. Ndetse hari undi wambaye umwenda w'akazi. Bigaragara yuko ari abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Aha turi kureba abantu benshi. Cyane cyane turareba abantu bose hafi ya bose bambaye ingofero. Hari wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'undi wambaye ingofero irimo amabara y'umukara. Hari umugore uri gusobanurira undi, ibintu byo gukoresha serivisi z'irembo. Uwo nguwo afite imisatsi miremire.

Aha aho turi kureba inzu. Imbere y'iyo nzu hari umukozi ushinzwe itumanaho uri muri ako kazu, hari umugabo wambaye ishati by'umutuku uri kuza amusanga, bigaragara ko agiye kumuvugisha.

Iyi shusho irerekana abantu batanga amayinite abo bantu harimo abagabo batatu bambaye isengeri y'akazi ndetse hirya yabo hari imodoka iparitse na moto ziparitse, hirya yaho hari inzu ya etage munsi yaho haparitsemo imodoka.

Aha bari kwigisha abantu uburyo ushobora kwishyura amafaranga ukoresheje telefoni ntibagukate biri mu ishusho y'ibara ry'umuhondo ndetse hari akantu karanga telefoni kari hejuru.

Aho turareba abantu bicaye abo bantu bicaye mu kazu k'abakozi bashinzwe itumanaho rya sosiyete isakaza amakuru bita emutiyeni baricaye bategereje abantu hakurya yaho hari abandi bantu basa nkaho bari mu kandi kazu.

Aha bari kwerekana umuntu uwo muntu yambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse ari gukoresha telefoni bigaragara ko ari umukozi wa sosiyete yitumanaho ya mtn ni uri gutanga serivisi.

Aha ngaha hari abantu babiri bari guhererekanya ibintu, ikigaragara cyo bari mu bucuruzi umwe yambaye ishati nini, undi yambaye umupira, umupira ni icyatsi kibisi handitseho vuba vuba.

Aha ngaha bari kutwereka abagore babiri, abo bagore bari kwamamaza cyangwa se barikwa mu gushaka uburyo ibicuruzwa byabo byagura biragaragara ko bishimye kandi baranezerewe cyane .

Aha bari kutwereka inzu ifunguye iyo nzu cyane cyane baratwereka imbuto hari umuntu urimo imbere usa nkaho ari umucuruzi imbere y'iyo nzu hari imodoka ihapatse.

Aha ngaha bari kutwereka umugabo, uwo mugabo ari kwambara igikoresho bakoresha kirinda impanuka ku mutwe ndetse hirya ye hari imodoka ebyiri, izo modoka biragaragara ko zihagaze, arenda no kurira ikinyabiziga cya moto.

Nkuko mubibona amakaro y'aho aracyeye, inzugi nziza ziriho ibirango ndetse zisa amabara y'ubururu, hariya mu imbere hari ikintu gikonjesha harimo ibikombe, ijage y'icyatsi, amajerekani meza azanwamo amazi yo kunywa acyeye Kandi anogeye buri muntu wese iyo aya nyoye aba yumva ameze neza ,akira umutwe cyane iyo awurwaye cyangwa akoze impyiko.

Aha arikutwereka abantu babiri abo bantu babiri bari kwigisha abantu uburyo ushobora gutumiza ibintu byawe cyangwa ugacuruza ibintu byawe ukoresheje ikoranabuhanga, barasa nkaho bishimye bose barangariye muri telefone cyane bari kwigisha abantu.

Aha ngaha turi kureba abantu, ibishushanyo by'abantu, hari umugabo ufite igikapu cy'umutuku, bari kutwereka ko agomba kwishyura ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse bakatwereka ko ari ubucuruzi bukorewe kuri murandasi, bashyizeho n'isaha n'ukwezi n'umwaka ibyo ngibyo bizakorerwa n'ahantu bizakorerwa.

Aha turahareba inyubako, iyo nyubako igiye iriho ibishushanyo; ibyo bishushanyo biragaragara ko aha hantu hakorerwa ubucuruzi bwo gucuruza amafara... Gucuruza kuri murandasi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Imbere y'iyo nyubako hari insina, izo nsina ni umutako, ndetse imbere hari moto ihari ihapatse ndetse n'imodoka ihari.

Iyi shusho irerekana ikinyabiziga. Ikinyabiziga cya moto gihetse akantu k'akabogisi, hirya y'aho hari umugabo wenda kwinjira mu inzu uri kuri esikariye.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Aha ho turi kubona icyumba baryamamo; icyo cyumba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse hari ibikoresho byabugenewe byo mu nzu; navugamo nk'aho bakarabira.

Aha turahabona inzu, iyo nzu ifite irembo rigari ku irembo, ndetse yubakishije amarangi y'ibara ry'umweru, ndetse ku rugi ruri ku irembo rukozwe n'irangi ry'umukara, hirya hari ibiti by'inganzamarumbo, imbere y'iyo nzu hari imodoka iparitse.

Aha bari kutwereka munzu m’ imbere munzu mo imbere harimo ububati, ubwo bubati bigaragara ko babubikamo ibikoresho byo mu gikoni.

Iyi shusho iratwereka ko hano ari muri saro, saro igizwe n'ameza ndetse n'intebe ayo meza afite ibara ry'umukara ndetse izo ntebe zo zifite ibara ry'umweru.

Aha bari kutwereka inzu, iyo nzu ifite umuryango munini mo imbere muri iyo nzu harimo itara rigiye rigerekeyije kuva hasi ugenda uzamuka paka ugeze ahantu hanini.

Iyi shusho irerekana inzu igeretse ndetse n'ubusitani bwayo, ubwo busitani bwayo buri ku murongo intangiriro yabwo ni amabara y'umukara ndetse iyo nzu igiye igeretse yubakishije amatafari ahiye.

Aha turi kuhareba inyubako iyi nyubako bari kutubwira ko igurishwa. Iyo nyubako ifite igisenge cy'umutuku ndetse ni hakurya hari ikindi gisenge cy'umutuku, bari no kutwereka ikirere icyo kirere gifite ibicu by'umukara ndetse n'umweru bivanze.

Aha bari kutwereka mu nzu mo imbere, iyo nzu bari kutwereka cyane cyane irange ry'umweru ndetse n'amatara, bakanatwereka idirishya n'urugi, bakatwereka n'amakaro ayigize inzu.

Aha turi kuhareba inyubako, iyo nyubako amabara ayigize ni amabara y'umweru, ndetse imbere yaho hari ikinyabiziga kiri imbere gisa nkaho kitari kugenda, kiri imbere mu rugo, inyuma y'urwo rugo hari ibiti bihari.

Aha turi kuhareba ahantu basa nkaho batangira serivisi z'amacumbi. Hari intebe z'umweru ndetse n'inkuta cyangwa se inkingi z'ino nzu ni umweru. Hariho ibikoresho bicana umuriro w'amashanyarazi na byo bifite ibara ry'umweru. Hari n'ibindi bikoresho by'itumanaho biri aho ngaho bicometse ku muriro w'amashanyarazi.

Aha bari kutwereka inzu. Iyi nzu, iherereye ahantu bita i Kanombe. Bari kutwereka ko igurishwa.

Aha bari kutwereka amazu menshi ayo mazu ku mpande hariho uduti, ibyo biti byerekana ubusitani, hari umuntu wicaye ku cyuma.

Aha ngaha turahareba inyubako, iyo nyubako iragaragara ko igeretse ndetse iyo nyubako ifite amakaro meza, iyo nyubako ifite idirishya ifite n'ahantu wuririra ujya mu yindi nyubako.

Iyi shusho iratwereka ko ari inzu inzu yanditseho remera cyangwa se barashaka kwerekana ko hantu haba hari icumbi hakodeshwa iyo nzu ifite igisenge gifite ibara ry'umutuku.

Aha turi kuhabona inzu, iyo nzu ikozwe n'irange ry'umweru ndetse bigaragara ko ku muryango hariho imitako, iyo mitako irimo cyangwa ishinzemo ibiti.

Aha baratwereka inzu ikodesha ibihumbi maganabiri, iyo nzu yubatswe n'amatafari, iyo nzu ifite inzugi ifite n'amadirishya ndetse barimo kutwereka imibyare cyangwa se insina ziri hakurya.

Aha bari kutwereka inzu, iyo nzu biragaragara ko ikodesha, iyo nzu ifite inkingi z'umukara ndetse hafite n'indi nkingi hirya ifite ibara ry'umuhondo.

Aha baratwereka ahantu bita Kabeza. Baratwereka inzu y'amacumbi ikodeshwa. Iyo nzu iri mu nzu zigezweho. Ifite amarangi y'umweru, ndetse bari kutwereka n'ikirere kiri hakurya.

Aha turareba inzu, iyo nzu ifite aho bogera, iyo nzu ifite inzugi ndetse ifite n'amakaro y'umweru.

Ahangaha bari kutwereka inzu iyo nzu imbere yayo hari imodoka ihaparitse iyo nzu ni inzu yo guturamo ndetse hari igikoresho gikurura amashusho kugira ngo abantu barebe kuri tereviziyo amakuru.

Iyi shusho iratwereka urupapuro, urwo rupapuro rufite ibara ry'umweru, ndetse hari andi magambo yanditseho arimo ibara ry'umukara, munsi y'urwo rupapuro bari kutwereka umuntu uri kwandika afite ikaramu.

Ahangaha bari kutwereka inzu, iyo nzu ifite imiryango ibiri ndetse ifite n'amadirishya.

Iyi shusho irerekana. Iyo nzu bigaragara ko igeretse inshuro ebyiri. Iyo nzu imbere yaho hari ubusitani, ndetse bwiza cyane. Hirya yaho hari agapangu k'umweru.

Aha ngaha turahareba inzu. Izo nzu bari kutubwira ko, izi nzu zikodeshwa. Kugira ngo abantu baziraremo. Ziherereye i Kigali Kimironko, zifite amabara y'umukara ndetse ku mpande zifite amabara y'umweru. Inzu uri kubona ko iri gukorerwamo.

Aha turi kuhareba inzu, iyo nzu ifite uduce bacaho bajya mukindi gice cyo hejuru, utwo duce bagenda batunyuraho, bigaragaza y'uko ahangaha ino nzu bari kuyikorera ubuvugizi kugira ngo bazayigure.

Hano bari kutwereka abantu benshi ndetse bakanatwereka ibikarito by'icyatsi kibisi, bakanatwereka ko ahantu bahacururiza imyenda ndetse n'ibindi n'amatara ari kwaka.

Aha turi kuhareba aho bacuruza, ndetse hari n'umukobwa utwaye igikoresho gitwara imizigo, yambaye ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'inkweto irimo amabara y'umweru hirya hari ibicuruzwa bipanze neza.

Aha turahareba abantu. Abo abantu biragaragara ko bari mu ngendo zitandukanye. Harimo abari mu isoko, ndetse hari n'abari kugura. Hari ufite igikapu cy'umukara. Hakurya bari hagati y'inzu nyinshi.

Aha turi kureba abagabo bahagaze, muri abo bagabo bahagaze harimo uwambaye ingofero, ndetse bigaragara ko bari ahantu bagurira imyenda, uwo muntu afashe umwenda ari kuwereka umukiriya, ndetse inyuma yabo hari abandi bantu benshi bari muri iryo soko.

Iyi shusho irerekana umugore n'umugabo basa nkaho barikuganira. Hirya yaho harerekana nkaho ari muri resitora, igabura ibiryo. Birasa nkaho ari nk'umucuruzi uri gusobanurira umuguzi.

Aha turi kureba ibicuruzwa, ibi bicuruzwa hari abantu bari kubibaza ndetse hari n'abandi bari imbere bigaragara ko aribo bacuruza bino bicuruzwa, hejuru y'ibi bicuruzwa bipanze hari abana batatu bashushanyije aba bana batatu bambaye ubusa.

Aha turi kuhareba iduka, iryo duka ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, hari utubati turimo ibyo bicuruzwa, ndetse turareba n'amabara y'umutuku, tukareba amabara y'umweru, ndetse n'andi agiye atandukanye.

Aha bari kutwereka aho bagurira, ndetse hari abagabo babiri bari kuvugana bambaye ingofero z'umukara, ndetse hari undi mugore wambaye agatambaro mu mutwe uri kuganira n'undi, bigaragara ko bari guciririkanya bagura.

Iyi shusho irerekana umusore waje kureba mu isoko imyenda. Hari ahantu habanza ku kirenge cye hariho inkweto, ndetse uwo musore ahetseze igikapa yambaye n'ingofero y'umutuku. Uwo musore biragaragara ko ari kureba umupira ari bugure.

Aha turi kuhareba isoko, muri iryo soko bari gucuruzamo imbuto, imboga, ndetse hari n'abantu benshi bahari urugero twavuga nk'umuntu wicaye ndetse hari undi muntu w'umugabo uhagaze usa nk'aho ari kureba ibicuruzwa, hirya hari amabara y'umuhondo ahari.

Ahangaha bari kutwereka abantu benshi, abo bantu benshi biragaragara ko bari mu isoko bari gucuruza ,iryo soko rirageretse, harimo abantu bambaye imyenda y'umukara.

Iratwereka abantu bacunga umutekano bicaye bari mu biro bari kuri mudasobwa, harimo umukobwa ndetse n'umusore basa nk'aho bari kuganira ku kintu kimwe bari bari gukora, uwo mukobwa yambaye isaha.

Aha turi kureba iduka, muri iryo duka harimo abantu bari kugendamo, umugabo wa mbere yambaye umupira wanditseho icumi uwo mupira ni ubururu ndetse undi mugore yambaye ipantaro y'umukara, hari abandi bantu bari imbere bigaragara ko bari mu kindi cyumba.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Aha ho turi kureba umuntu, uwo muntu ari kwandika mu muryango cyangwa se mu idirishya harimo undi muntu uhagaze bigaragara ko ari kumuha serivisi zitandukanye.

Hano bari kutwereka umuntu ufite ikarita. Uwo muntu yambaye ibitenge, ndetse uwo muntu hariho igihe yatangiriye, gukoresha izo serivise n'imbonerahamwe imugaragariza uburyo agomba kubikoresha.

Iyi shusho iratwereka abantu babiri, abo bantu babiri harimo umukobwa ndetse n’ umugabo bari guhana impano bigaragara ko hari umwe uri gushimira undi, uwo mugabo yambaye ikote ry'umukara ndetse n'uwo mugore yambaye ikoti ry'umukara.

Iratwereka abagabo babiri, umugabo umwe biragaragara ko ari guhemba undi mugabo, ari kumuha biragaragara ko ari umukozi ushinjwe imisoro n'amahoro ari kumuhemba.

Iyi shusho iratwereka abantu, abo bantu ni igitsina gore aba bantu baragaragara ko bari kwamamaza bari kwamamariza sosiyete ishinzwe imisoro n'amahoro.

Aha ngaha bari kutwereka ko iki kigo ari ikigo nderabuzima cya Kabazungu. Cyubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya, gifite umuryango ndetse gifite n'irange ry'umweru.

Aha turi kureba ubusitani, ubwo busitani bukikijwe n'amabuye matoya ahonze, ndetse aha tukanareba ni inzu imeze nk'urusengero, hari n'abantu benshi hari abicaye hari n'abahagaze turi kureba n'ibigega icyo kigega ni umukara.

Iyi shusho irerekana abagore, abagabo harimo n'abakecuru, abo bakecuru bigaragara ko bicaye ku ntebe, umukecuru afite imarete bigaragara ko hari umuntu uri kubigisha ibintu bijyanye n'ibintu runaka.

Aha turahareba ibinyabiziga urugero: hari imodoka ndetse hari n'umuturirwa, hari n'ibiti biri ku nkengero z'umuhanda, hakurya bigaragara ko hatuwe ndetse hari hagiye havanzemo n'ibiti bike bike, hari n'imodoka ziri kugenda mu muhanda nyinshi.

Aha bari kutwereka ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa bigiye bipanze ku murongo. Biri mu nyubako y'umweru, iyo nyubako ifite amatara menshi.

Aha turi kuhareba isoko, ndetse hari igikoresho bashyiramo ibicuruzwa bahaguze hari ibicupa by'umuhondo turi kureba bihari.

Aha turi kuhareba isoko. Muri iryo soko bari gucuruzamo ibintu bitandukanye. Hari ibintu bifunze ndetse bigaragara ko biri mu bikarito. Bifite ibara ry'umutuku. Byenda kumera nk'inyanya cyangwa imbuto. Hakurya hari utundi tubati turiho ibindi bicuruzwa bimanitse.

Aha bari kutwereka umuntu, umuntu ni umukobwa, afite igikoresho batwaramo ibicuruzwa ndetse ari kwitegereza imboga akareba na karoti, akareba n'ibindi bintu agiye kugura yambaye ingofero y'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bwa kebiyesi ariko itatse ibyapa bya beka, ikaba isa ibara ry'icyatsi, ikaba iri mu muhanda irimo iragenda itwaye abagenzi bagana za Remera.

Aha bari kutwereka ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa biregeranye cyane, twavmo amacupa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ibyinshi n'amacupa yo mu bwoko bwose.

Ahangaha bari kutwereka ibicuruzwa, muri ibi bicuruzwa harimo amacupa, ndetse n'ibindi bintu biririmo mu shashi, hakurya hari umuntu wambaye ishati y'umukara ufite ishashi irimo ibicuruzwa.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi bahagaze ahantu hamwe ku itapi y'umutuku barakeye cyane, bafite icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mu biganza byabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aha turi kuhareba sitoke, iyo sitoke ipanzemo ibintu, navugamo nk'ibikoresho bimeze nk'udukapu dutoya ndetse n'udushashi turimo amabara y'imituku twinshi.

Aha turi kurebanaho ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa bigiye bipanze ndetse na nomero z'aho hantu, turi kureba inyuguti R makumyabiri na kane.

Aha turahareba inzu y'ubucuruzi, iyo nzu y'ubucuruzi irimo ibikoresho bitandukanye bigiye biri mu mashashi.

Aha turi kubonamo iduka ripanze iri duka irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri ku murongo twahasangamo nk'ibikarito ndetse tugasangamo n'amacupa.